Ihuriro ry'abaganga bateraniye hamwe kuganira ku buzima bwiza ndetse n'imibereho myiza n'uburyo isi muri rusange ndetse n'abayituye bagira ubuzima bwiza ndetse buzira umuze.

Umukecuru ugeze mu zabukuru ari kuvurwa n'umuganga amuha imiti y'ubwoko butandukanye kugira ngo ubuzima bwe burusheho kumera neza ndetse burusheho kubaho buzira umuze, ibi bigatuma ubuzima bw'abaturage muri rusange bugenda neza.

Ihuriro ry'abayobozi bagiye batandukanye, ryiganjemo abagore n'abagabo, bari kwiga ku buryo bakangurira abatuye Isi, kwita ku buzima ndetse no kwirinda indwara z'uburyo butandukanye, bityo bigatuma ubuzima bw'abatuye Isi bugenda neza.

Ihuriro ry'abantu bagiye batandukanye, higanjemo abagabo ndetse n'abagore bisa nkaho bari kuganira ku mishinga runaka ishobora gufasha Isi muri rusange gutera imbere ndetse no kwimakaza ibikorwa by'iterambere mu buzima bw'abaturage, ibi bigateza imbere ba nyiri kubikora ndetse n'abaturage.

Ibigo mpuzamahanga byita ku buzima bwa muntu ndetse n'imibereho ye, higanjemo ibyita ku bana badafite ubushobozi ndetse n'ibyita ku bakozi ku kigero mpuzamahanga, ibyita ku isuku ndetse n'isukura, ibi bigatuma isi yunguka cyane mu buryo butandukanye kuko bifasha mu kugira imibereho myiza ndetse abatuye isi bakabaho neza bishimye.

Umuforomo ari kugira inama abaturage higanjemo ababyeyi, mu buryo bwo kugira ngo abamenyeshe uko bakwiriye kwirinda indwara zigiye zitandukanye kugira ngo bitume bagira ubuzima bwiza ndetse buzira umuze.

Inyubako by'umwihariko yagenewe gutangirwamo serivisi z'ubuvuzi, irimo ibikoresho bigiye bitandukanye, bifasha mu gusuzuma umubiri kugira ngo hamenywe neza indwara umuntu arwaye bityo bigafasha abatuye Isi mu kugira ubuzima bwiza ndetse bwitaweho cyane.

Umujyanama w'ubuzima uri kumwe n'umwana ndetse n'ababyeyi basa nkaho bakuze, ari kubagira inama zijyanye n'imirire ku bana babo kugira ngo hirindwe igwingira ry'abana bagwingira bakiri bato bigatuma badakura neza ngo bagire ubuzima bwiza.

Umusaza usheshe akanguhe ari gupimwa n'umuforomokazi akoresheje kimwe mu gikoresho gikoreshwa n'abaganga mu gupima indwara zigiye zitandukanye, by'umwihariko nko gupima umuvuduko w'amaraso ndetse no gutera k'umutima, ibi bikaza gutuma umusaza bamumenyesha indwara arwaye, ndetse n'ikigero cy'umuvuduko w'amaraso ye.

Umuganga wambaye agapfukamunwa ndetse n'umurwayi wambaye agapfukamunwa uri guterwa urushinge, bigaragara ko hari kwirindwa ikwirakwira ry'icyorezo mu baturage ndetse n'abantu bose batuye isi bityo bigafasha kugira ubuzima bwiza.

Ubukangurambaga butandukanye burimo abana bakiri bato ndetse n'abashinzwe umutekano n'imiryango itegamiye kuri Leta, mu rwego rwo kwimakaza umuco wo kugaburira abana ndetse no gutuma bagira n' imibereho myiza, mu kurwanya igwingira rifata abana bakiri bato.

Umwana ari ku iriba ari kuvoma amazi meza akoreshwa by'umwihariko n'abaturage baturiye iri iriba muri rusange, kugira ngo abafashe muri serivisi zitandukanye ndetse n'ibikorwa bitandukanye bya buri munsi birimo nk'ubuhinzi ndetse n'amasuku. Ibyo bigafasha iterambere ry'igiturage kugera aho rigera.

Umubyeyi uri kumwe n'umwana, bari guhabwa serivisi z'ubuvuzi, by'umwihariko uyu mwana ari guhabwa serivisi ijyanye n'urukingo, kugira ngo hirindwe indwara zitandukanye, zifata abana bakiri bato zikabagiraho ingaruka.

Abana bagiye batandukanye bari gukoresha kimwe mu bikoresho bitanga amazi meza yo kunywa asukuye arimo umuti wica udukoko ndetse n'utundi tuntu twose twatera uburwayi, ibi bigatuma himakazwa umuco mwiza wo kunywa amazi meza afite isuku.

Umwana ukiri muto ari guhabwa amata n'umujyanama w'ubuzima mu rwego rwo kwimakaza ndetse no guteza imbere ubukangurambaga ku mirire y'abana bakiri bato kugira ngo bagire ubuzima bwiza.

Umuyobozi mukuru mu buyobozi bwite bwa leta, ari kumwe n'umunyamahanga w'umuzungu mu gukangurira imbaga ituye isi mu gusura ndetse no gukunda u Rwanda. Gusura ingagi ndetse n'ibirunga na bimwe mu bikorwa by'u Rwanda bigateza imbere Igihugu cy'u Rwanda kuko cyunguka byinshi.

Ihuriro ry'abana benshi batandukanye, bari ku ivomo, bamwe bari gukaraba intoki, bari kwigishwa umuco, mwiza wo gukoresha amazi meza, kuko amazi ari isoko y'ubuzima.

Abana bari kumwe n'ababyeyi babo, bari kwitabwaho bahabwa amata, kugira ngo intungamubiri zabo ziyongere, ndetse bakora ubukangurambaga mu gushishikariza ababyeyi ku guha abana ibibakwiriye bituma bakura neza.

Ihuriro ry'abantu bagiye batandukanye higanjemo abagabo ndetse n'abagore, mu rwego rwo guhumuriza ndetse no gukangurira Isi mu kwita ku buzima bwabo ndetse n'uburyo bagira imibereho myiza kandi bakagira ubuzima burambye bwuzuye iterambere.

Abanyeshuri bari gufata ifunguro rya saa sita ryiganjemo ibirinda indwara bimenyerewe nk'ibishyimbo ndetse n'ibitera imbaraga nk'akawunga, ribafasha kugira ngo barusheho kwiga neza bidatumye bataha iwabo kuko byabakerereza. Ibi bigatuma babasha kwiga neza ndetse bakagira n'ubuzima bwiza kuko baba bitaweho cyane.

Ihuriro ry'abantu batandukanye baje kuvoma amazi ku mugezi uriho amavomo atandukanye atanga amazi, nka bumwe mu buryo bwo kwimakaza isuku ndetse n'igerwaho ry'umusaruro w'amazi ku baturage mu gutuma bagira ubuzima bwiza.

Ihuriro ry'abantu batandukanye, higanjemo abagabo ndetse n'abagore, urubyiruko bari guhabwa inama zigiye zitandukanye mu kugira ubuzima bwiza ndetse n'imibereho myiza ibakwiriye nk'abaturage batuye isi. Ibi bigafasha mu iterambere ryabo rya buri munsi ndetse n'imiryango yabo ikabasha kubaho neza.

Umuganga wabyigiye ari gutanga serivisi y'ubuvuzi, aho ari kwita ku mwana w'umuhungu amusuzuma akoresheje kimwe mu bikoresho bikoreshwa mu gusuzuma uburwayi butandukanye. Bigatuma uyu mwana abasha kwitabwaho neza mu buryo bukwiriye kandi bunoze.

Umwana ukiri muto ari gukaraba amazi meza n’isabune mu rwego rwo kugaragaza akamaro ko gukaraba aya mazi meza hirindwa umwanda ndetse n’indwara ziterwa n’isuku nke, bityo bigatuma agira ubuzima bwiza.

Umubyeyi uteruye umwana, ari kuvurwa n'umuganga uri kumupfuka, igipfuko ku mutwe kugira ngo amukize igikomere, gishobora kugira ingaruka ku bwonko bwe, bityo bigatuma ubuzima bw'uyu mwana bugenda neza.

Ihuriro ry'abantu benshi bagiye batandukanye higanjemo ababyeyi ndetse n'abana, bari ku mugezi uvomerwaho amazi akoreshwa mu bikorwa bigiye bitandukanye by'isuku, bityo bikabafasha kwimakaza umuco mwiza wo gukoresha amazi meza.

Ihuriro ry'abagabo ndetse n'abagore by'umwihariko higanjemo urubyiruko, bari kubaka akarima k'igikoni batera imboga z'ubwoko butandukanye, mu rwego rwo guteza imbere aka karima k'igikoni kugira ngo abantu bamenye umumaro w'imboga mu buzima bwabo.

Umukobwa uri kumwe n'umwana uri kuvoma amazi mabi mu mugezi, uri gushokamo amazi, ibi bikagaragaza umuco w'isuku nke ndetse no kuvoma amazi mabi atera indwara zigiye zitandukanye, iyo anyowe cyangwa se akoreshejwe mu bundi buryo. Ibi bikangiza ubuzima bw'abatuye isi muri rusange.

Umugabo uri gukoresha kandagira ukarabe, amazi meza ndetse n'isabune, avuye kuri toilette kugira ngo bitume agira isuku ndetse yimakaza uyu muco cyane cyane kuko urinda indwara zandurira mu kutagira isuku ndetse no kudakaraba intoki igihe umuntu avuye mu bwiherero.

Ihuriro ry'abantu bagiye batandukanye, higanjemo abaganga mu gukumira ndetse no gukora ubukangurambaga ku kurwanya inda zitateguwe ku bangavu ndetse no gutwita kwabo, ibi bigatuma bibaha ubuzima bwiza.

Umwana ari gukaraba amazi meza ndetse n'isabune, mu rwego rwo kugaragaza neza agaciro k'amazi mu mibereho yacu ya buri munsi, kuko atuma dukora ibikorwa bigiye bitandukanye bityo bikadufasha kubaho ubuzima bwiza.

Ihuriro ry'abantu bagiye batandukanye, higanjemo abana bafite ibikoresho bikoreshwa mu kuvoma amazi, by'umwihariko ku mugezi wubatswe kugira ngo utange amazi meza y'isoko, mu gutuma abahaturiye bagira ubuzima bwiza, ndetse bakagira iterambere mu buryo bwose.

Ihuriro ry'abantu ryiganjemo abagabo ndetse n'abagore mu bukangurambaga bugiye butandukanye, mu gutuma imibereho y'abaturage igenda neza, mu kwimakaza umuco wubufatanye ndetse n'amahoro muri rubanda, bityo bigatuma ubuzima bwabo bumera neza.

Umwana ari gukaraba amazi meza n'isabune ku ivomo mu rwego rwo kwimakaza umuco w'isuku ugomba kuranga abaturage kugira ngo hirindwe indwara zitandukanye ziterwa n'umwanda. Ibi bigatuma ubuzima bwabo burushaho kuba bwiza

Umuhuro w'ibiganiro ku rwego rw'Igihugu, ku bijyanye n'ishoramari mu rwego rw'ubuvuzi mu gufasha abahabwa izi serivisi, higanjemo abarwayi mu kugira ngo babone imiti ku buryo buboroheye, ndetse n'igisata cy'ubuvuzi kibone ibikoresho bikenewe byose, kugira ngo gitange serivisi nziza kandi inoze.

Abagabo batatu bambaye imyenda yagenewe kwirinda indwara zandurira mu mwuka ndetse no mu matembabuzi, wongeyeho no gukoranaho, bari gutambuka mu mbuga aho bari kwita ku binyabuzima ndetse babisuzuma.

Ihuriro ry'abantu bagiye batandukanye, ubona ko bishimye cyane bari gukoma amashyi, bishimira ubuzima bw'uyu mwana uri imbere yabo, bityo bimakaza kubaho kwiza k'uyu mwana ndetse no kugira ubuzima bwiza buzira umuze, bityo bigisha ndetse bakangurira imbaga nyamwinshi, kugira ngo ubuzima bw'abana babo bube bwiza.

Inshinge z'uburyo butandukanye ndetse n'umuti uri mu gacupa, bikoreshwa mu kongerera umurwayi intungamubiri igihe adashoboye kurya, bityo bikamufasha kugira ngo abeho iminsi yicume kuko aba adashoboye kurya.

Abana b'abanyeshuri bakiri bato bambaye impuzankano y'ikigo, bari ku iriba aho bari gukaraba amazi meza ndetse n'isabune, mu rwego rwo kwimakaza umuco w'isuku no kwirinda umwanda utera indwara zigiye zitandukanye.

Ikigo mpuzamahanga cyita ku bana batishoboye ndetse badafite ubushobozi, barishimye cyane, bari guseka, aho bashyikirijwe ibikoresho bigiye bitandukanye, bibafasha mu kwiga bityo bigatuma bagira imibereho myiza ndetse bakitabwaho neza.

Umwana muto w'uruhinja ari guterwa urukingo rw'abana bakiri bato bityo mu kubarinda indwara zigiye zitandukanye zirimo nk'iseru, ibi bigatuma babasha gukora neza ndetse ubuzima bwabo bukagenda neza mu mibere.

Ihuriro ry'abayobozi batandukanye bo mu muryango nyafurika ku kwiga ku kibazo kijyanye n'icyorezo kigenda cyataka abaturage kugira ngo bafate ingamba ndetse bamenye n'uburyo babasha kukirwanya.

Umuryango Mpuzamahanga wita ku buzima bw'abantu, uri gushyikiriza abaturage ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa mu buzima bwa buri munsi, higanjemo nk'ibyo kurya bibafasha mu mibereho ya buri munsi, mu rwego rwo kugira ngo bagire ubuzima bwiza.

Ikigo cy'Igihugu gishinzwe iby'ubuzima. Kiri mu bukangurambaga bwo kurwanya kanseri y'inkondo y'umura. Ku bufatanye na Minisiteri y'Ubuzima. Aho bashishikariza abaturage by'umwihariko igitsina gore, kurwanya iyi kanseri y'inkondo y'umura ndetse banayirinda. Ndetse ababashije kugerwaho na yo, kugira ngo babafashe kuyikira.

Umuntu ari kogera ku mugezi, ari gukaraba amazi meza nk'ikimenyetso cy'uko amazi ari isoko y'ubuzima bwacu bwa buri munsi. Kuko adufasha gukora ibikorwa bigiye bitandukanye kugirango imibereho yacu igende neza.

Ihuriro ry'abantu benshi bateraniye ku kigo nderabuzima, bagiye kumva inama ndetse n'ubukangurambaga butangwa ku ndwara zitandukanye kugira ngo babashe kuzirinda ndetse babashe no kugira uburyo babyitwaramo, bityo bigatuma ubuzima bw'abaturage bubasha kugenda neza.

Umugore uri kuvoma amazi mu kiyaga ndetse n'umusore uri koza igare, ariko ayo mazi akaba atari meza ku buryo yavomwa kuko ashobora gutera indwara zitandukanye zirimo nka korera ndetse n'indwara y'impiswi ikunze kwibasira cyane abantu bakoresha amazi adasukuye, bityo bigatuma ubuzima bwabo butagenda neza.

Ihuriro ry'abaturage bagiye batandukanye bitabiriye igikorwa cya leta cyari kirimo kugirwa inama ndetse no guhugurwa no guhabwa ubukangurambaga ku bintu bigiye bitandukanye ndetse na serivisi zitangwa na leta.

Umwana w'umukobwa wambaye impuzankano y'ikigo, ari gukaraba amazi meza n'isabune mu rwego rwo kwimakaza isuku ndetse no kwirinda indwara zigiye zitandukanye ziterwa n'umwanda, ibi bikamufasha kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Umuforomokazi wambaye agapfukamunwa ndetse n'umuturage wambaye agapfukamunwa, uri guterwa urushinge n'uyu muforomokazi, mu kumukingira uburwayi bukomoka ndetse buturuka ku gusangira ndetse no gukoranaho bakoresheje ibikoresho bigiye bitandukanye.

Ikigo nderabuzima gitanga serivisi zitandukanye by'umwihariko ku babyeyi, mu gusuzumisha abana babo ndetse nabo ubwabo mu gihe bamaze kubyara hagati mu minsi irindwi cyangwa cumi n'ine bigatuma ababyeyi n'abana bitabwa mu buryo bukwiriye ndetse bakagira ubuzima bwiza.

Itsinda rigizwe n'abaforomo ndetse n'abafatanyabikorwa mu rwego rwo guhashya ndetse no kwirinda indwara zigiye zitandukanye, mu kugira inama abaturage mu buryo butuma babasha kugira ubuzima bwiza.

Ivomo rusange rikoreshwa n'abaturage bavoma amazi kugira ngo abafashe mu bikorwa bigiye bitandukanye mu buzima bwabo kuko amazi ari isoko y'ubuzima kandi akaba ari yo shingiro ryo kubaho kw'abantu.

Umukecuru uri kuvoma amazi ku iriba, risa nk'aho riri mu misozi kugira ngo amufashe mu buzima bwe bwa buri munsi kuko amazi ari isoko y'ubuzima kandi akenerwa cyane mu bikorwa bya buri munsi.

Umwana ukiri muto, uri kumwe n'umubyeyi we, ari kwitabwaho n'umuganga, amuha ubuvuzi bukwiriye ndetse bufite ireme. Kugira ngo abashe kugira ubuzima bwiza, budakangwa n'indwara.

Ihuriro ry'abantu bagiye batandukanye, higanjemo abayobozi b'inzego zitandukanye mu bukangurambaga, bwo gufasha ndetse no kwita ku bafite uburwayi bwo mu mutwe, kugira ngo na bo bahabwe uburenganzira bwabo bakwiriye, bityo bigatuma ubuzima bw'abo bugenda neza.

Zimwe mu nkingi zituma umuntu arushaho kugira ubuzima bwiza, umumaro wo kugira ubuzima bwiza ndetse na bimwe mu bintu bituma umuntu agira ubuzima bwiza bwo mu mutwe, bityo bigatuma ubuzima bwe bugenda neza.

Umugore wishimye ndetse unezerewe, ari gucuruza ibicuruzwa bigiye bitandukanye, mu rwego rwo kugira ngo yiteze imbere we ubwe, ndetse ateze imbere na rubanda muri rusange, mu buryo bwo kubagezaho ibyo bakeneye bitabagoye.

Umukobwa wubitse umutwe afashe mu misatsi ye, ubona ko ahangayitse cyane, ameze nk'umuntu ufite ibibazo byinshi. Ibi bikaza kumuteza agahinda gakabije, ndetse n'umunaniro ukabije. Bityo bigatuma atabasha gutekereza neza kuko aba aremerewe.

Umuturage uri guhabwa serivisi z'ubuvuzi n'umujyanama w'ubuzima abazwa ibibazo bitandukanye ku buzima bwe kugira ngo bitume abasha kumenya inama yahabwa n'umujyanama w'ubuzima.

Ihuriro ry'abantu bagiye batandukanye higanjemo abagabo, abagore, ndetse n'urubyiruko, ku nama zo kwita ku bafite ubumuga ndetse n'uburwayi bwo mu mutwe kugira ngo na bo bitabweho bagire ubuzima bwiza.

Umunsi Mpuzamahanga wahariwe kwita ku buzima bwo mu mutwe ku batuye isi mu buryo bugiye butandukanye, kugira ngo barusheho kugira imitekerereze myiza ndetse bigishwe uburyo bakita ku buzima bwabo, by'umwihariko ubwo mu mutwe kuko bituma babasha kugira iterambere mu buryo bwose.

Ikigo cy'Igihugu cy'u Rwanda cyitwa Isange, ku bufatanye na Polisi y'u Rwanda ndetse na Minisiteri y'u Rwanda, mu gushishikariza ndetse no gukangurira imbaga nyamwinshi kwita ku barwayi ndetse n'abafite ubuzima bwo mu mutwe, ibi bigatuma babasha kugira ubuzima bwiza.

Ihuriro ry'abagore batandukanye, bari kuganira ndetse bari kujya inama ku bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe, ndetse n'uburyo abarwayi bafite ikibazo cyo mu mutwe bakitabwaho mu buryo bwiza kandi bukwiriye, butuma babakangurira ndetse bakora n'ubukangurambaga muri rubanda nyamwinshi.

Umugabo ufite uburwayi bwo mu mutwe wambaye impuzankano yabo, ari mu kigo cyita ku barwayi bafite uburwayi bwo mu mutwe, bityo kugira ngo arusheho kugira ubuzima bwiza ndetse abashe kumererwa neza kuko na bo ari ab'agaciro kandi bakwiriye kwitabwaho.

Abana bakiri bato bakuriye mu buzima bw'icyaro, ubona ko banezerewe bishimye cyane. Ibi bigatuma ubuzima bwabo, bwo mu mutwe burushaho kugira icyizere cy'ejo hazaza.

Abaturage batandukanye biganjemo ababyeyi bahetse abana bari guhabwa ibiganiro bitandukanye ku bijyanye n'imibanire y'abantu ndetse n'uburyo bwo kubana muri sosiyete cyangwa se muri rubanda nyamwinshi bityo bigatuma barushaho kugera ku iterambere bifuza.

Umunsi mpuzamahanga wahariwe ku kwita ku buzima bw'umuntu bwo mu mutwe kugira ngo arusheho kugira ubuzima bwiza ndetse bigafatwa nk'uburyo bwo kwikunda ndetse no kwiyitaho kugira ngo umuntu agire ejo hazaza heza.

Umugabo uri gusobanurira abagize imbaga y'abitabiriye inama. Mu kugira ubuzima bwiza ndetse no kwita ku bafite uburwayi bwo mu mutwe mu buryo bugiye butandukanye. Ibi bigatuma rubanda nyamwinshi rugira ubuzima bwiza hatitawe k'uko baba bameze kose.

Ikigo kigaragaza uburyo serivisi z'ubuzima by'umwihariko ku buzima bwo mu mutwe zitangwa uhereye kuri serivisi zitangirwa mu midugudu, ku bigo nderabuzima, ibitaro by'akarere, ibitaro by'umurenge, kugeza ku bigo byabuhariwe bifite umwimerere mu kuvura ndetse no kwita ku bafite uburwayi bwo mu mutwe bityo bigatuma ubuzima bwabo burushaho kumera neza.

Ishusho igaragaza neza imiterere y'ubwonko, uburyo bukora, ibice bibugize, ifasha kwiga ndetse no kumenya neza, uburyo ubwonko bukoreshwa, ndetse n'uburyo butangamo umusaruro bukwiye gutanga, bityo bigafasha ababyiga kugira ngo barusheho kubisobanukirwa.

Ihuriro ry'abantu batandukanye higanjemo abagabo, abagore ndetse n'urubyiruko, bari kuganirizwa ku bijyanye n'ubuzima bwiza bwo mu mutwe ndetse n'imibereho rusange, bigatuma bagera ku ntumbero zabo ndetse imitekerereze yabo ibaganisha ku byiza.

Umusore ari guseka. Aranezerewe cyane. Guseka byongera iminsi yo kubaho ndetse bituma umuntu aruhuka mu mutwe. Kuko bimufasha kumva amerewe neza ndetse aguwe neza mu buzima bwe.

Ibitaro byahariwe kwita ku barwayi bafite uburwayi bwo mu mutwe, bityo bigatuma ubuzima bwabo bugenda neza ndetse n'imibereho yabo ikarushaho kugenda neza, kuko bafashwa ndetse bagahabwa serivisi inoze, ituma imibereho yabo igenda neza.

Abana bagiye batandukanye, bari kurira, bihebye, nta cyizere cy'ubuzima bw'ejo hazaza bafite ahubwo bababajwe nuko ntacyo kurya bafite n'aho kuba, nta mimerere, nta kuntu bameze.

Abanyamuryango bashinzwe kurenganura ndetse no guteza imbere ubutabera rusange mu baturage, bifasha mu gutuma abaturage babaho banezerewe ndetse barenganuwe badaciriwe urwa kibera.

Ihuriro ry'umuryango mpuzamahanga rirangajwe imbere na nyakubahwa Jeannette Kagame rishinzwe kwita ndetse no gufasha ku bafite uburwayi bwo mu mutwe bityo bigatuma nabo bagira uburenganzira bwabo kugira ngo babashe kubaho nk'abandi bose.

Ihuriro ry'abantu batandukanye bari kwitabwaho n'abaforomokazi, bakaba bambaye udupfukamunwa mu rwego rwo kwirinda indwara zandurira mu buhumekero, bityo mu kugira ngo babazwe ibyabo ndetse bamenye uburwayi barwaye, ibi bigatuma bagira ubuzima bwiza.

Umukobwa ari guhabwa serivisi ijyanye n'ubuzima bw'amenyo mu kanwa ke kugira ngo arusheho kugira amenyo meza afite isuku ndetse azira umwanda, ibi bikamufasha kugira ubuzima bwiza.

Umuganga wambaye agapfukamunwa ari mu nyubako yagenewe serivisi zo gusuzuma ndetse no gukora ubushakashatsi, ari gukora ubushakashatsi ku ndwara z'amenyo ndetse n'imiti ishobora gukoreshwa mu kuvura uburwayi bw'amenyo butandukanye, akoresheje imfashanyigisho cyangwa se ifoto ikoreshwa muri mashini zabugenewe.

Umusaza ari kwitabwaho mu buryo burambuye n'umuganga uri kumupima, ndetse anamuvura uburwayi bw'amenyo, bityo bigatuma ubuzima bwe bwo mu kanwa bugenda neza, ndetse akagira amenyo akora neza, by'umwihariko bikamufasha kugira ubuzima bwiza.

Umwana ukiri muto ari gukoresha bumwe mu buryo bwo koza ndetse no gusukura amenyo, akoresheje igikoresho cyagenewe abana bakiri bato, kugira amenyo ye asa neza hirindwa indwara zituruka ku mwanda zishobora kwataka amenyo.

Icyumba cyahariwe gutanga serivisi z'ubuvuzi by'umwihariko ku burwayi bw'amenyo, aho abarwaye amenyo bakirwa muri iki cyumba bakarushaho kuvurwa mu buryo bugiye butandukanye, ibi bigatuma ubuzima bwabo burushaho kugenda neza.

Umusore ari guseka yerekana amenyo yiwe akeye akorera isuku, ku buryo buhoraho aribyo bituma amenyo ye ahora asa neza, ndetse bikamurinda kwandura indwara zandura mu menyo, cyangwa se kwangirika kw'amenyo ye.

Umugabo uri kwireba mu ndorerwamo, uri gukoresha kamwe mu dukoresho dukoreshwa mu gukura amenyo mu gice cy'ubuvuzi kabuhariwe mu buganga cyangwa se by'umwihariko mu buvuzi bw'amenyo bityo bigafasha ugakoresha mu kuba yagira ubuzima bwiza bw'amenyo.

Umusaza ari gukoresha kimwe mu gikoresho gikoreshwa, gisata cy'ubuvuzi bw'amenyo yitaho kugira ngo arebe uko amenyo ye ahagaze ndetse ayasukura kugira ngo arusheho ubu gusa neza.

Igishushanyo mbonera gikoreshwa kabuhariwe n'abaganga, igihe basuzuma ndetse bapima neza uburwayi bw'amenyo bityo bikabafasha kugenzura neza imiterere y'amenyo ndetse n'ingaruka ziterwa na bumwe mu burwayi bityo bigatuma babasha kuvura abarwayi neza.

Abaforomokazi bari gusuzuma ndetse bakita ku barwayi bagiye batandukanye babamenyera uburwayi bashobora kugira mu kanwa, ndetse bareba ko ubuzima bwabo bwo mu kanwa bumeze neza, ndetse buzira umuze.

Umukobwa ari gusukura amenyo akoresheje igikoresho cyabugenewe mu gusukura amenyo, bityo kugira ngo arinde amenyo ye kujyamo imyanda igiye itandukanye ishobora kuyangiza ndetse asigasira neza ubuzima bwe bwo mu kanwa.

Umwana ukiri muto, ari gusuzumwa neza cyane n'umuganga mu kanwa ke kugira ngo arebe ko nta burwayi butandukanye bw'amenyo afite kugirango arusheho kumuvura ndetse anakure amwe mu menyo atameze neza kugira ngo hamere andi menyo mazima.

Kimwe mu gikoresho gikoreshwa n'abaganga by'umwihariko mu gisata cy'ubuvuzi bw'amenyo, gikoreshwa mu gupima ubu burwayi bw'amenyo ndetse no gusuzuma neza no gufata amashusho mbonera ndetse n'amafoto kuri ubu burwayi bwo mu kanwa, ibi bigatuma abarwayi barwaye amenyo bitabwaho neza ndetse bakavurwa mu buryo bukwiriye.

Umugore ari kwitabwaho n'abaganga mu buryo butandukanye, bamuvura uburwayi bw'amenyo afite kugira ngo arusheho kugira ubuzima bwiza, kuko ibi bimufasha kurya mu buryo butandukanye, ndetse akarushaho kumererwa neza.

Ifoto yanyujijwe mu cyuma cyabugenewe igaragaza uburwayi bw'amenyo bwasuzumwe na muganga, bikamufasha gutuma abasha neza kuvura uburwayi bw'amenyo bukunda kwibasira abantu bitewe no kurya ibintu byangiza amenyo.

Umuryango mpuzamahanga urimo ingeri zitandukanye z'abantu harimo abazungu, abagabo ndetse n'abagore, abakobwa b'abanyafurika bishimye cyane, bisa nkahoho hari icyo bahuriyeho gituma bafatanya kugira ngo bagere ku ntego zabo.

Umugore uryamye ku gitanda cyo kwa muganga ari kuvurwa n'umuganga wambaye agapfukamunwa ndetse n'uturindantoki akoresheje igikoresho gikoreshwa mu gusuzuma indwara z'amenyo kugira ngo hirindwe indwara zandurira mu menyo.

Umukobwa ari guhabwa serivisi z'ubuvuzi by'umwihariko izijyanye n'amenyo, aho umuforomokazi ari kumwitaho akoresheje bimwe mu bikoresho bikoreshwa muri izi serivisi z'amenyo.

Umugabo wishimye ari guseka yerekana amenyo ye ayasukuye bigaragara ko amenyo ye afite isuku ndetse ayitaho uko bikwiriye, mu rwego rwo kwirinda umwanda ndetse n'indwara zikomoka ku mwanda zishobora kuba mu menyo.

Umusaza usheshe akanguhe ari kwitabwaho n'abaganga, bamufasha gukoresha bumwe mu buryo bw'imyitozo ngororamubiri, kugira ngo bikangure ubwonko bwe ndetse bukomeze ingingo ze, bityo bitume amererwa neza ndetse abasha gukira vuba.

Umukecuru usheshe akanguhe ari kumwe n'umuforomokazi, aho ari kumufasha gufata imiti yandikiwe na muganga, bityo bigatuma ubuzima bwe burushaho kugenda neza, kuko imiti ifasha mu gutuma uburwayi bwe bugabanyuka.

Umusaza usheshe akanguhe unezerewe, ari kwitabwaho n'umuforomokazi uri gukoresha kimwe mu bikoresho bikoreshwa n'abaforomokazi mu kuvura ndetse no gusuzuma abarwayi mu buryo bugiye butandukanye kugira ngo bamenye neza, umuvuduko w'uburwayi bwabo ndetse by'umwihariko bapime, basuzume kugira ngo babashe kuvura abarwayi.

Ihuriro ry'abaturage batandukanye bari guhabwa inama n'umuyobozi ubishinzwe, mu rwego rwo kugira imibereho myiza ndetse no kwitabwaho kugira ngo ubuzima bw'abakuze burusheho kugenda neza, ibi bigatuma bagera ku iterambere rirambye.

Umukecuru usheshe akanguhe ari gufasha uyu musaza kunywa imiti yandikiwe na muganga kugira ngo arusheho kugira ubuzima bwiza, ndetse no kubasha koroherwa mu burwayi bwe, bityo bitume abasha kumererwa neza.

Umusaza usheshe akanguhe ari mu nyubako yagenewe gutanga serivisi z'abasheshe akanguhe, by'umwihariko izijyanye no kwita ku buzima bwabo, arigufashwa n'umuganga wabyigiye kwita, ndetse no kumenya uko umubiri we uhagaze. Afashwa kugenda gake gake kugira ngo ubuzima bwe burusheho kumera neza.

Umukecuru usheshe akanguhe wicaye ari kwitabwaho n'umuforomo kazi barishimye cyane baranezerewe kubwo kumwitaho ndetse no gutuma abasha kumererwa neza, bityo bigatuma ubuzima bwe burushaho kugenda neza.

Umukecuru usheshe akanguhe, ushagawe n'ubwoko bw'inkwi zitandukanye, zirimo nk'izizwi nk'inturusu, wicaye imbere y'inkono ari guteka, yihebye ubona ko nta byiringiro by'ubuzima afite.

Umukecuru usheshe akanguhe ari kunywa imiti akoresheje amazi meza kugira ngo amufashe kuyimera, bityo ubuzima bwe burusheho kugenda neza, ibi bigatuma arushaho kumererwa neza kuko ageze mu zabukuru.

Umusaza usheshe akanguhe, ari gusobanuza neza amabwiriza yanditse ku miti yahawe, kugira ngo abashe kuyakurikiza, ndetse abashe kumenya ibigize imiti yahawe, bityo bitume agira ubuzima bwiza, ndetse yitabwaho neza mu buryo bukwiriye kandi bumunogeye.

Umukecuru usheshe akanguhe, ufashe ku gikoresho gifasha abatabasha guhagarara neza kugira ngo bahagarare; uri kwitabwaho mu nyubako yagenewe gutanga serivisi z'ubuvuzi mu rwego rwo kwita ku bakuze ndetse n'abasheshe akanguhe; ibi bigatuma ubuzima bwabo bubasha kurushaho kugenda neza.

Umusaza usheshe akanguhe ari kumwe n'umwana ukiri muto, bari gukina imikino itandukanye iruhura mu mutwe by'umwihariko kugira ngo banezerwe ndetse bishime, ibi bigatuma ubuzima bwabo bose muri rusange bugenda neza ndetse n'imitekerereze yabo ikaba myiza.

Umusaza usheshe akanguhe wicaye mu kagare kagenewe abafite uburwayi bw'ubumuga cyangwa se abafite intege nke, ari kwitabwaho na muganga amuha amabwiriza y'uburyo bagiye kugenda kugira ngo arusheho kumererwa neza.

Umusaza usheshe akanguhe. Uri gufashwa kumanuka kuri esikariye. Afite intege nkeya z'umubiri. Ariko uri kumufasha ari kugira ngo abashe kugera aho agera abone umucyo. Bityo bikaza gutuma uyu musaza na we ahabwa uburenganzira bw'abandi. kugira ngo ubuzima bwe bugende neza.

Umukecuru usheshe akanguhe ari kwitabwaho n'umuforomokazi, aho ari kumubazaza ibintu bigiye bitandukanye kugira ngo yumve ko ubuzima bwe bumeze neza bityo bikamufasha kugira ubuzima bwiza mu gihe cye cya bukuru.

Umukecuru ugeze mu zabukuru ari guhabwa inzitiramibu n'abanyamuryango ba leta muri gahunda yo gushishikariza abaturage kwirinda indwara zigiye zitandukanye harimo iziterwa n'imibu bityo rero bikamufasha kurushaho kugira ubuzima bwiza ndetse akagira ubuzima buzira umuze.

Umukecuru usheshe akanguhe, ari gufashwa na muganga gukora imyitozo ngororamubiri, y'ubwoko butandukanye, by'umwihariko iy'amaboko kugira ngo akomeze imitsi ye ndetse n'ingingo ze, kugira ngo zibashe gukomera.

Umukecuru usheshe akanguhe ari gusomera uyu musaza amabwiriza yandikiwe na muganga ku bijyanye n'imiti yahawe kugira ngo ayifate neza, atishemo ibwiriza na rimwe bityo kugira ngo arusheho kugira ubuzima bwiza ndetse akire indwara arwaye.

Umusaza usheshakanguhe uri gufata ifunguro yiganjemo imboga zimenyerewe mu kugira umumaro cyane mu kurinda indwara zigiye zitandukanye ndetse no gutuma umuntu abasha kureba neza ndetse akitegereza bityo bigatuma umuntu arushaho kugira ubuzima bwiza buzira indwara za hato na hato.

Umusaza uri kwitabwaho, by'umwihariko mu nyubako yagenewe kwita ku barwayi bagiye batandukanye kugira ngo arusheho kugira ubuzima bwiza ndetse abashe gukira vuba mu buryo bwihuse.

Umusaza wicaye ari gusoma agatabo karimo ubumenyi butandukanye, ari kwiga ku bintu bigiye bitandukanye kugira byagure ubumenyi ndetse n'ubwenge bwe ku bintu bitandukanye bigiye biri mu isi, bityo bikamufasha kwagura imitekerereze ye ndetse no gukomeza ibikorwa bye.

Umukecuru usheshe akanguhe w'imvi z'umweru, ari gufata ifunguro ryiganjemo imboga zituma umubiri ugira ubudahangarwa bwo kwirinda indwara, ndetse zigafasha n'amaso y'umubiri w'umuntu kuba yareba neza ndetse akitegereza neza; bityo bigatuma ubuzima bwe bubasha kugenda neza.

Umukecuru usa nk'aho akuze ndetse n'umwana w'umukobwa bari gukina umukino w'amakarita, ufasha kuruhura mu mutwe ndetse no gutuma bagira imitekerereze yagutse bigatuma banezerwa cyane bakizihirwa.

Umukecuru usheshe akanguhe ari kugendera ku gakoresho kamufasha guhagarara, ndetse no kugenda mu rwego rwo kugira ngo ubuzima bwe bugende neza, kugira ngo akomeze imitsi ye y'amaguru, bityo abashe kugenda.

uUmusaza ugeze mu za bukuru uri gufashwa n'umukobwa ukiri muto w'umuforomokazi kugira ngo abashe gutambuka bigaragara ko arwaye ndetse akeneye kwitabwaho mu buryo umwe cyangwa ubundi.

Ihuriro ry'abakuze ndetse n'abakiri bato bari kuganira banezerewe mu biganiro bigiye bitandukanye, bibafasha kumererwa neza mu buzima bwabo bwa buri munsi, bityo bigatuma barushaho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Umukecuru ukuze uri kumwe n'umubyeyi bisa nk'aho akiri muto, bari kumwe n'urungano rw'abana bagiye batandukanye, bisa nk'aho bitaweho cyane ndetse bakunzwe n'ababyeyi babo, bityo bigatuma ubuzima bwabo burushaho kugenda neza mu mitekerereze ndetse no mu bundi buryo kuko bibereka ko bitaweho.

Ikoraniro ry'abakora muri leta bari gutanga ibikoresho bigiye bitandukanye, byifashishwa n'abafite ubumuga bujyanye n'ingingo zidakomeye, bityo bigatuma babasha gufashwa mu buzima bwabo ndetse bagahabwa uburenganzira bubakwiriye kuko nabo ari ibiremwamuntu.

Umusaza n'umukecuru basheshe akanguhe bari mu myitozo ngororamubiri, baranezerewe cyane kuko imyitozo ngororamubiri ifasha ubuzima bwabo kugenda neza ndetse bigatuma bumva bamerewe neza kandi bishimye.

Inteko y'igihugu y'ikigo cy' u Rwanda ku bantu bize neza ibijyanye n' ubuzima, ubufasha muri serivisi zitandukanye zijyanye no kugira ubuzima bwiza bityo bigatuma imimerere y'abaturage igenda neza.

Umunsi mpuzamahanga mu Rwanda ku baganga ndetse n'abaforomokazi wahariwe kwita ndetse no kumenya neza ubuzima bwa muntu mu gihugu cy'u Rwanda, bityo bigashyigikira abakora muri iki gisata cy'ubuvuzi.

Umunsi Mpuzamahanga ku isi hose, wahariwe kwita ku bidukikije, uteganyijwe ku itariki makumyabiri n'esheshatu z'ukwezi kwa cyenda bibiri na makumyabiri na kane kugira ngo abatuye Isi bamenye agaciro k'ibidukikije.

Umukobwa uri gushishikariza urubyiruko rugenzi rwe kwimakaza ndetse no kwiteza imbere mu rwego rwo kugira ubuzima bwiza, babakangurira kwiyitaho ndetse no kugira uburyo bwo gukora isuku mu buryo bugiye butandukanye bikabafasha kugira ubuzima bwiza.

Ibiganiro bigamije kumenya akamaro ndetse n'uruhare rw'ibidukikije mu kugira ubuzima bwiza rusange mu mibereho igiye itandukanye y'abaturage mu mpande zose z'abatuye isi, ibi bikadufasha kubungabunga ibidukikije mu buryo bugiye butandukanye.

Umuryango mpuzamahanga w'abagore mu kwizihiza ndetse no kwishimira iterambere ry'umugore kugira ngo umugore abeho afite ubuzima bwiza ndetse buzira umuze.

Ihuriro ry'abagore ndetse n'abana b'abakobwa bakiri bato, bigaragara ko bari guhabwa ibikoresho by'isuku, bibasha gutuma bitabwaho neza, ndetse bakirinda indwara zigiye zitandukanye, cyane cyane bita ku buzima bwabo bw'imyororokere, bityo bigatuma barushaho kugira ubuzima bwiza.

Ubukangurambaga bwahariwe gukangurira by'umwihariko abanyafurika, mu kugira ubuzima bwiza muri rusange, bita ku buzima bwabo bwa buri munsi, ku ndwara bashobora kwandura zikabagiraho ingaruka ndetse bita no ku isuku, ibi bikafasha abanyafurika, mu kubaho ubuzima bifuza.

Ihuriro ry'abari n'abategarugori mu bukangurambaga bwo kwitaho ndetse no kumenya ubuzima bwabo bwa buri munsi, by'umwihariko ubuzima bw'imyororokere bubagerwaho kandi bugatuma babasha kubyitwaramo neza mu nzego zigiye zitandukanye.

Umunsi mpuzamahanga ku rwego rw'Isi yose wahariwe kurwanya ndetse no kurandura indwara iterwa n'isukari nyinshi, ikunda kwibasira abakuze cyane ndetse n'abakiri bato igihe bakoresheje isukari nyinshi.

Umurwayi wambaye agapfukamunwa ari kumwe n'umuganga wambaye agapfukamunwa, bigaragara ko ari kumutera urukingo bigaragaza ingamba zafashwe kugira ngo hirindwe indwara iri kugaragara cyangwa se icyorezo kigaragara hano.

Umunsi wahariwe ubukangurambaga ndetse no kwita ku bafite uburwayi bwa Kanseri mu gihugu cy'u Rwanda mu kwigisha ikiyitera n'uburyo wabasha kuyirinda ndetse n'abayifite bakamenya uburyo bakivuzamo mu gihe yaba itarakura.

Ubukangurambaga ku ndwara ya kanseri ifata abana bakiri bato abakuze, kanseri y'ubwonko ndetse na kanseri y'ibere, ikunda kwibasira abagore, kugira ngo barusheho kuyirinda ndetse no kwirinda uburyo bwose, bwatuma bandura iyi ndwara ya kanseri.

Ibipimo bikoreshwa mu gupima indwara y'ubushita, bigaragaza ko umuntu ayirwaye cyangwa atayirwaye bityo bigatuma abasha kwitabwaho neza n'abaganga, ndetse hirindwa ko yayanduza n'abandi.

Icyumweru ku isi yose, cyahariwe kurwanya ndetse no kumenya neza, uburyo bwo gukoresha imiti igiye itandukanye, bityo bigatuma ubuzima bw'abaturage bugenda neza.

Ikusanyo rigaragaza ikorwa ndetse n'ishyirwa mu bikorwa ryo gukingira ndetse no gutanga ubwirinzi ku burwayi butandukanye; ku bana ndetse n'ababyeyi, bityo bigatuma hirindwa indwara zitandukanye.

Inyubako itanga serivisi z'ubuvuzi ku bantu bagiye batandukanye, higanjemo abaturage baturiye iki gice. Aho bahabwa ubuvuzi bw'ibanze bukwiriye kugira ngo ubuzima bwabo bubashe kumera neza.

Inyubako yagenewe serivisi z'ubuvuzi, ikoreshwa n'abafite uburwayi bugiye butandukanye, aho batanga serivisi zo gufata amaraso, izo gupima indwara, ndetse no kuvura uburwayi butandukanye. Bityo bigatuma abagana izi serivisi bahabwa serivisi inoze, ndetse n'ubuzima bwiza.

Inyubako yagenewe gutanga serivisi z'ubuvuzi by'umwihariko mu gutanga imiti ikoreshwa n'abarwayi mu buryo butandukanye, aho batanga imiti y'ubwoko butandukanye bitewe n'uburwayi ufite, ibi bigatuma bifasha abarwaye mu gukira vuba ndetse no kwitabwaho neza mu burwayi bwabo.

Inyubako yagenewe gutangirwamo serivisi z'ubuvuzi by'umwihariko irimo uburyamo bukoreshwa n'abarwayi barwaye, ikaba irimo n'ibikoresho ndetse n'amamashini akoreshwa n'abaganga mu kwita ndetse no gusuzuma ku barwayi.

Inyubako yahariwe ubuvuzi, ndetse na serivisi zabwo, ifasha mu kuvura abarwayi bagiye batandukanye, ndetse hagatangirwa serivisi zo kwita ku bantu, mu buryo bugiye butandukanye. Ibi bigatuma ubuzima bwabo bugenda, neza.

Inyubako irimo ibikoresho bitandukanye by'umwihariko ibikoreshwa muri serivisi z'ubuvuzi, igenewe kwakira abarwayi bafite uburwayi butandukanye, ibi bigatuma ubuzima bwabo burushaho kugenda neza ndetse n'imibereho yabo ikamera neza.

Ihuriro ry'abantu batandukanye bashyizemo intera hagati yabo bambaye udupfukamunwa, bari ku nyubako yagenewe gutanga serivisi z'ubuvuzi bigaragara ko bari gufatikanyiriza hamwe mu gukangurira imbaga y'abantu kwirinda ndetse no kwita ku kumenya uko bakirinda ubu burwayi bityo bigatuma ubuzima bw'bagana n'abo baheriza serivisi z'ubuvuzi.

Inyubako yakirirwamo abarwayi bagiye batandukanye bitewe n'uburwayi bwabo, irimo uburyamo butandukanye ndetse n'ibikoresho bikoreshwa mu kuvura abo barwayi mu buryo bugaragara kandi bunoze.

Inyubako yagenewe gutanga serivisi z'ubuvuzi, ihuriweho n'abantu bagiye batandukanye, bagiye kwivuza mu buryo bwo kugira ngo birinde indwara z'uburyo butandukanye ndetse bitabweho kugira ngo barusheho gukomeza ibikorwa byabo bya buri munsi.

Inyubako yagenewe gutanga serivisi z'ubuvuzi by'umwihariko imbere ahakirirwa abagana izi serivisi aho batanga serivisi zitandukanye, zaba izo kwivuza indwara izo kubagwa ndetse n'izo gusuzumwa mu buryo bugiye butandukanye.

Inyubako irimo ibikoresho bigiye bitandukanye. Bikoreshwa mu myitozo ngororamubiri. Kugira ngo bifashe abagana izi nyubako, gukora iyi myitozo ibafasha kurushaho kugira ubuzima bwiza buzira umuze. Buzira uburwayi bwa hato na hato. Ndetse bikarinda umubyibuho ukabije. Bityo ubuzima bwabo bukarushaho kugenda neza.

Inyubako ikorerwamo imyitozo ngororamubiri, irimo ibikoresho bigiye bitandukanye, bikoreshwa mu gukora imyitozo ngororamubiri, ku bantu bagiye batandukanye, kugira ngo bitume barushaho kugira ubuzima bwiza buzira umuze.

Inyubako irimo ibikoresho bigiye bitandukanye, irimo uburyamo ndetse n'intebe ikoreshwa by'umwihariko n'abaganga mu kwakira abarwayi batandukanye mu gihe bagiye kubitaho ndetse no kubasuzuma kugira ngo babashe kumenya uburwayi bwabo.

Inyubako yagenewe gutanga serivisi z'ubuvuzi by'umwihariko ikoreshwa n'abakora imyitozo ngororamubiri mu rwego rwo kwimakaza umuco wo gukora imyitozo, kuko ifasha ubuzima bw'abantu kumererwa neza, bigatuma birinda indwara zitandukanye.

Inyubako yagenewe gutanga serivisi z'ubuvuzi by'umwihariko, yagenewe ababyeyi bagiye kubyara kuko bitabwaho ndetse bakabasha kugira ubuzima bwiza igihe bari kubyara, ibi bigatuma bitabagiraho ingaruka kuko baba bafashwe neza n'ababishinzwe.

Umugabo wicaye iruhande rw'igiti hafi y'inyubako yagenewe serivisi zijyanye n'ubuvuzi munsi y'iki giti niho abarwayi baruhukira ndetse bafatira akayaga kugirango barusheho gutekereza neza ndetse no kumva bamerewe neza.

Inyubako yagenewe gutanga serivisi z'ubuvuzi, by'umwihariko itangirwamo serivisi zigenewe ababyeyi mu gihe bagiye kubyara kuko bitabwaho neza cyane ndetse mu buryo bukwiriye, ibi bigatuma babasha kugira ubuzima bwiza bo ubwabo n'abana babo.

Umwana utwaye ubana n'ubumuga bw'amaguru wicaye mu kagare amwinjiza mu nyubako yagenewe gutangirwamo serivisi zo kwita kubabana n'ubumuga ibi bigatuma ubuzima bwabo burushaho kugenda neza,

Ibitaro by'akarere ka Nyarugenge bigaragiwe n'inyubako zigiye zitandukanye ndetse n'ubusitani bwiza bugaragaza ko ari ahantu hatangirwa serivisi z'ubuzima zituma abantu babasha kugira ubuzima bwiza ndetse bakitabwaho mu buryo bukwiriye.

Inyubako yagenewe gutangirwamo serivisi z'ubuvuzi, by'umwihariko mu gusuzuma abarwayi hakoreshejwe ibyuma by'ikoranabuhanga, ibi bigatuma hacukumburwa neza uburwayi bwabo uko buteye kugira ngo babashe kwitabwaho neza.

Umuntu wambaye impuzankano yo kwa muganga ndetse n'agapfukamunwa, akaba yitwikiriye ahantu hose ari gukora amasuku, ahantu hagiye hatandukanye, imbere y'inyubako yo kwa muganga. Mu rwego rwo kwirinda ndetse no guhashya indwara zandura mu buhumekero ndetse no gukoranaho.

Inyubako yagenewe utanga serivisi z'ubuvuzi ku bantu bagiye batandukanye ndetse by'umwihariko igatanga ubumenyi ndetse n'ubwenge ku bijyanye n'ubuvuzi, bityo bigatuma yitwa kaminuza cyangwa se ikigo gifasha abarwayi mu bundi buryo ariko kidatanga n'iyo serivisi y'ubumenyi.

Inyubako yaguriwe gufasha ndetse no gushyigikira abafite uburwayi butandukanye yaba ubw'ingingo cyangwa se ubwo mu mubiri bityo bigatuma barushaho kugira ubuzima bwiza.

Ikigo nderabuzima cyagenewe gutanga serivisi z'ubuvuzi by'umwihariko izigiye zitandukanye, higanjemo n'izihabwa ababyeyi bagiye kubyara, bityo bigatuma bitabwaho ndetse bakagira ubuzima bwiza kuko gituriye abaturage, ndetse kibafasha no gutuma babasha gukira vuba igihe baba bagize uburwayi.

Inyubako yagenewe serivisi z'ubuvuzi by'umwihariko ku rwego rwa Afurika mu kurwanya ndetse no kurinda indwara zandura mu buryo bworoshye mu matungo ndetse n'abantu bwite. Ibi bigatuma bafata ingamba zigiye zitandukanye mu kurwanya izi ndwara zandura mu matembabuzi.

Inyubako yagenewe ubushakashatsi, ikoreshwa n'abaganga mu kugira ngo babashe kumenya neza, igitera indwara ndetse n'inkomoko yayo kugira ngo bitume babasha kumenya uburyo babasha kuyivura, bityo bigatuma bibungabunga ubuzima bw'abaturage ndetse n'abatuye isi.

Umuforomokazi ari kwita ku murwayi kugira ngo amenye ko ubuzima bwe bumeze neza, aho ari kumufasha gukoresha bimwe mu bikoresho bikoreshwa kwa muganga by'umwihariko kugira ngo ubuzima bwe burusheho kumera neza.

Inyubako yagenewe gutanga serivisi z'ubuvuzi ku bantu bagiye batandukanye, kuko bayigana bagahabwa izo serivisi, by'umwihariko iz'ababyeyi bagiye kubyara, kugira ngo barusheho kugira imibereho myiza ndetse n'abana babo babe bazima.

Umuganga uri mu cyumba cyagenewe isuzuma, ahari kumwe n'ibikoresho bigiye bitandukanye bikoreshwa muri iki gikorwa, mu kumenya igitera indwara ndetse n'ingaruka zacyo, ibi bigafasha abaganga by'umwihariko mu kunoza serivisi zabo nziza bagenera ababagana.

Umubyeyi uvuye kubyara ufite umwana ari kumwe n'umuforomokazi umaze kumwitaho muri iki gikorwa cyo kubyara. Bikagaragaza ko abaforomo ndetse n'ababyaza bita cyane ko ari ababyeyi kuko babafasha iyi serivisi itorohera bamwe, kugira ngo bitange abana bazima badafite inenge ndetse n'ibibazo bityo bigatuma ubuzima bugenda neza.

Umuganga aranezerewe cyane, ari kuganiriza abaturage ibijyanye no kwirinda indwara z'ubuzima zigiye zitandukanye, bityo bakamenya neza imiterere y'indwara ndetse n'ingaruka zazo ku buryo bashobora kuzirinda.

Inyubako yagenewe gutangirwamo serivisi z'ubuvuzi zigiye zitandukanye, aho bakiriramo abarwayi ndetse hakaba harimo bimwe mu bikoresho bikoreshwa muri serivisi nk'uburyamo bwo kuruhukiraho ku barwayi ndetse igihe bari kuvurwa bakaba baburyamyeho, ibi bigatuma umurwayi yitabwaho neza ndetse akagira ubuzima bwiza.

Inyubako by'umwihariko yagenewe gutanga serivisi z'ubuvuzi yakirirwamo abarwayi batandukanye, aho bakirwa n'ubakira mu gihe bagiye kugira ibyo bakora, ibi ngibi bigatuma abarwayi bahabwa serivisi zihuta ndetse zinoze ku burwayi bwabo.

Inyubako itanga serivisi z'ubuvuzi zigiye zitandukanye ku barwayi, harimo izo kwita ku babyeyi ndetse n'abana, ku buzima bwabo by'umwihariko, ifasha abakuze, abasheshekanguhe ndetse n'abakiri bato, mu kugira ngo barusheho kugira ubuzima bwiza buzira umuze.

Icyumba igice cy'ubuvuzi, cyagenewe serivise zitandukanye ku kwita ku barwayi. Kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye, bisuzuma ndetse bikamenya neza, uburwayi umurwayi arwaye. Bityo bigafasha umurwayi kumererwa neza, ndetse no kwitabwaho mu gihe afite uburwayi bukabije.

Inyubako itanga serivisi z'ubuvuzi yahariwe gukoreshwa n'abafite uburwayi butandukanye, mu rwego rwo kuharuhukira ndetse no gutuma bamererwa neza mu mibiri yabo mu gihe bakiri kwitabwaho.

Ibitaro by'i Kabgayi byagenewe kuvura uburwayi butandukanye ku barwayi baje babigana, bityo bigafasha abaturage b'aka gace kugira ubuzima bwiza ndetse buzira umuze buzira uburwayi.

Inyubako yagenewe gutanga serivisi z'ubuvuzi zitandukanye aho bakirira abantu bagana ikigo nderabuzima mu buryo bwo kugira ngo bafashwe muri serivisi zitandukanye bivuza indwara z'uburyo butandukanye.

Umuforomo ufite igikoresho gikoreshwa mu gusuzuma indwara, ari kumwe n'umubyeyi usa nk'aho akuze, amuganiriza ndetse amugira inama ku bijyanye n'ubuzima ndetse n'uburyo bwakwitabwaho.

Inyubako yabugenewe irimo ibikoresho bitandukanye bikoreshwa mu gukora imyitozo ngororamubiri cyane cyane ku bayigana ituma babasha kugira ubuzima bwiza, binyuze mu gukora iyi myitozo ndetse ifasha abafite uburwayi bw'umubyibuho ukabije kugabanya ibiro, bityo bigatuma ubuzima bwabo bugenda neza.

Inzu y'ababyeyi itangirwamo serivisi z'ububyaza ndetse n'abantu bagiye batandukanye higanjemo abaforomo n'abaforomokazi, bari gukangurira ababyeyi kwitabira izi serivisi zigenerwa abagiye kubyara.

Inyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi, irimo abarwayi bagiye batandukanye bambaye udupfukamunwa ariko ubona ko bahanye intera, bategereje guhabwa serivisi z'ubuvuzi.

Inyubako yagenewe gutanga serivisi z'ubuvuzi by'umwihariko ku barwayi bagiye batandukanye, aho iri mu baturage rwagati mu kugira ngo bafashwe guhabwa serivisi inoze, ijyanye n'ubuvuzi. Ibi bigatuma biborohera cyane mu buzima bwabo kuko bitabwaho uko bikwiriye.

Inyubako yahariwe serivisi z'ubuvuzi, irimo imiti igiye itandukanye, ifasha abayigannye bose mu kuba babona imiti ibasha kuvura uburwayi bwabo, ibi bigatuma aba barwayi barushaho kugira ubuzima bwiza, ndetse bagakira indwara, kuko baba banyweye imiti bandikiwe na muganga.

Inyubako yagenewe gutanga serivisi z'ubuvuzi, by'umwihariko iki cyumba giteraniyemo abarwayi bagiye batandukanye, ku meza hari udupaki dutandukanye tw'amaraso tugiye gukoreshwa mu guhabwa abarwayi kugira ngo bongerwe amaraso, by'umwihariko bitume babasha gucuma iminsi ndetse bagira ubuzima bwiza.

Inyubako yo kwa Nyirininkwaya itangirwamo serivisi z'ubuvuzi ku bato, abakuze ndetse n'abasheshe akanguhe, aho bavura indwara zigiye zitandukanye bityo bigatuma abantu babasha kugira ubuzima bwiza.

Inyubako yahariwe gutanga serivisi z'ubuvuzi ndetse no kwakira abaje Bayingana kugira ngo bahabwe imiti ibafasha gutuma ubuzima bwabo bugenda neza, ndetse babasha gukira indwara zigiye zitandukanye, mu mibiri yabo.

Inyubako irimo ibikoresho bye bitandukanye bikoreshwa mu buvuzi ndetse n'uburyamo bukoreshwa na bamwe mu barwayi igihe baba bari kwitabwaho, bityo bigatuma ubuzima bwabo burushaho kugenda neza kandi bakagira ubuzima buzira umuze.

Umusore wicaye ategereje guhabwa serivisi, ndetse n'abari gutanga serivisi bari kwakira umuntu mu nyubako itangirwamo serivisi zijyanye n'ubuvuzi, ndetse no gutuma umuntu amera neza mu buzima bwe.

Inyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi by'umwihariko icyumba cyita ku barwayi, harimo umurwayi uryamye ndetse n'umuganga uri kujisha neza inzitiramibu mu rwego rwo gutuma abarwayi bagira ubuzima bwiza, ndetse hirindwa ko hashobora kugira ubwandu bwa marariya bubafata, ibi bigatuma ubuzima bwabo burushaho kugenda neza.

Inyubako y'ikigo cy'igihugu gishinzwe abana cyita ku buvuzi ndetse no ku ndwara zigenda zifata abana bakiri bato bityo bigatuma bitabwaho neza ndetse bakagira ubuzima bwiza buzira umuze.

Inyubako yagenewe gutanga serivise z'ubuvuzi by'umwihariko mu guteza imbere imyitozo ngororamubiri na bumwe mu buryo bufasha abantu gukira indwara zitandukanye ndetse no gutuma umubiri wabo ugira ubudahangarwa butandukanye bwo kwirinda indwara.

Ikigo nderabuzima cya Matyazo cyahariwe gutanga serivisi zitandukanye z'ubuvuzi ku baturage bahaturiye, bigatuma barushaho kugira ubuzima bwiza ndetse imibereho yabo ikabasha kugenda neza, bitewe n'uko serivisi inoze ku buzima iba ari nziza.

Umuforomokazi wabyigiye ari gusuzuma umusaza akoresheje icyuma cyagenewe mu gusuzuma umutima ndetse n'umuvuduko w'amaraso bityo kugira ngo amenye neza igipimo cy'uburwayi bwe ashobora kuba afite bityo bigatuma abasha kugira ubuzima bwiza kandi bugira umuze hamenyekana indwara arwaye kugira ngo ayivurwe.

Inyubako itanga serivise zijyanye n'ubuvuzi, yagenewe gutanga ndetse no kugurisha imiti aho iganwa n'abantu bagiye batandukanye boherejwe n'ibitaro cyangwa se na muganga mu guhabwa iyi serivise y'imiti kuko bayihabwa bigatuma barushaho gukira ndetse bakamererwa neza.

Inyubako y'ikigo kikorera, yagenewe gutanga serivisi z'ubuvuzi butandukanye, aho ifasha abarwayi bafite indwara ziye zitandukanye mu kwitabwaho cyane, bavurwa mu buryo butandukanye kugira ngo bagire ubuzima bwiza.

Inyubako irimo ibikoresho bitandukanye, bikoreshwa cyane n'abakoresha serivisi z'ubuvuzi, bifasha abarwayi, cyangwa se abagana izi nyubako, mu kwitabwaho neza bafite aho baruhukira, ndetse n'aho bicara, bityo bigatuma bitabwaho neza, ndetse ubuzima bwabo bukabasha kugenda neza.

Ibitaro bikuru by'umwami Faisal, bitanga serivisi zitandukanye zijyanye n'ubuvuzi, bita ku barwayi b'uburyo bwose, abagiye kubyara, abafite indwara zananiranye, abarwaye umutima ndetse n'ubundi burwayi, bityo bigatuma ubuzima bwabo burushaho kumererwa neza.

Ibikoresho byabugenewe bikoreshwa n'inzobere mu buvuzi birimo ibibasha kureba udukoko dutoya ndetse n'indwara zigiye zitandukanye biri mu nyubako, ikoreshwa n'abavuzi bari mu bushakashatsi ndetse bashaka kumenya ibitera indwara.

Inyubako yagenewe gutanga serivisi z'ubuvuzi, aho bakira abarwayi bagiye batandukanye bityo mu kubafasha kumererwa neza ndetse no gutegereza kugira ngo baze guhabwa serivisi nziza kandi inoze.

Icyumba cyo kwa muganga gikoreshwa n'abarwayi barwaye indwara zirimo umutima ndetse n'umuvuduko w'amaraso, gikoreshwa mu kugira ngo aba barwayi barusheho kugira ubuzima bwiza ndetse buzira umuze, bavurwa indwara zitandukanye mu mibiri yabo.

Inyubako yagenewe gutangirwamo serivisi z'ubuvuzi by'umwihariko mu gutanga imiti ikoreshwa n'abarwayi mu buryo bugiye butandukanye, ikabafasha gutuma bagira ubuzima bwiza ndetse bakabasha gukira vuba uburwayi bwabo.

Inyubako yagenewe gutanga serivisi z'ubuvuzi by'umwihariko gutanga imiti ku barwayi bagiye batandukanye bayigana aho bahabwa imiti y'ubwoko butandukanye bandikiwe na muganga, ibi bigatuma uburwayi bwabo bubasha gukira vuba.

Ikigonderabuzima kita ku barwayi bagiye batandukanye, harimo abari hanze bategereje serivisi zabo ndetse n'abaganga barimo imbere bari gufasha abarwayi bagiye batandukanye mu byumba by'abarwayi. Bityo bigatuma abaturiye iki kigo babasha kugira ubuzima bwiza ndetse babasha kuvurwa indwara zigiye zitandukanye.

Umukobwa ari gukora imyitozo ngororamubiri akoresha bumwe mu buryo bwo kuzamura amaboko ndetse no gutwara ivi imbere, nk'uburyo butuma umugongo ukomera ndetse ukarambura ingingo z'amaboko, ibi bigatuma ubuzima bwe bugenda neza.

Umusore w'ibigango amaze gukora imyitozo ngororamubiri, ari gukoresha amazi meza mubyo kugira ngo ashire icyaka, kuko iyo umuntu amaze gukora imyitozo ngororamubiri akenera by'umwihariko amazi meza kugira ngo amufashe.

Umugore ari gukandwa nyuma yo gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo ubuzima bwe bugende neza. Ibi bigafasha imitsi ye ndetse n'imikaya ye gukomera ndetse no kumererwa neza, bitewe n'imyitozo isa nk'aho ikakaye aba yakoze.

Igikoresho kizwi ku izina ry'imbago. Gikoreshwa n'abafite ibibazo by'ingingo, mu kugira ngo babashe kugenda, bitewe n'uko ingingo zabo ziba zidakomeye cyangwa se zidafite imbaraga, bityo bigatuma bibafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi kugira ngo babashe gukora ingendo nk'abandi.

Umwana muto uri guhabwa cyangwa se uri kugororerwa ingingo kugira ngo azakure afite ingingo nzima kandi zikora neza bityo bikamufasha kugororoka akuze ndetse akamererwa neza kuko baba baramugoye ingingo akiri muto zitarakomera cyane.

Ibikoresho bigiye bitandukanye bikoreshwa n'abakora imyitozo ngororamubiri, birimo ibipfuko ndetse n'imiti igabanya ububabare, ikoreshwa n'abakora imyitozo kugira ngo bavure ingingo zabo ndetse aho bagize ibikomere babashe kwipfuka bityo bigatuma ubuzima bwabo bugenda neza.

Ibikoresho bitandukanye bikoreshwa mu myitozo ngororamubiri, birimo, imigozi yo gusimbuka, ndetse n'inkweto zagenewe gukora iyi myitozo, ukubiyemo n'ibikoresho bikoreshwa mu gupima ubushyuhe bw'umuntu mu gihe ari gukora iyi imyitozo, ndetse n'amafunguro yiganjemo imboga cyane afasha muriyi myitozo bigatuma umuntu agira ubuzima bwiza.

Umusore uri gukora imyitozo ngororamubiri, ari gukoresha bumwe mu buryo bukoreshwa n'aba bantu bakora iyi myitozo mu gutuma abasha gukomeza ingingo ze, agakomeza umugongo we, imitsi ndetse n'imikaya bye bigakomera, ibi bikamufasha kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Umuntu ari gusuka amazi yo kunywa mu kirahure, mu rwego rwo kugira ngo ayanywe, amufashe kugira ubuzima bwiza, ndetse buzira umuze. Bityo bikagaragaza akamaro k'amazi, mu buzima bwacu.

Igishushanyo mbonera kigaragaza imyitozo ngororamubiri, ifasha umubiri w'umuntu mu kugira ubudahangarwa butandukanye, butuma umuntu yirinda indwara zigiye zitandukanye binyuze muri iyi myitozo ngororamubiri bityo bigatuma agira ubuzima bwiza buzira uburwayi.

Umusore wicaye ufashe ku mano ye, ari gukoresha bumwe mu buryo bw'imyitozo ngororamubiri, ikoreshwa mu gukomeza ndetse no kugorora umugongo kugira ngo bitume abasha guhagarara neza ndetse atagira uburwayi bugiye butandukanye buturuka mu mugongo.

Umusore umaze gukora imyitozo ngororamubiri ari kunywa amazi, kugira ngo amufashe kugarura ubuyanja mu mubiri we, kubera ko amazi agabanya ikusanyirizo ry'umunyu mu mubiri w'umuntu, bityo bigatuma agira ubuzima bwiza bitewe n'uko amazi yabimufashijemo.

Ibikoresho bigiye bitandukanye bikoreshwa n'abakora imyitozo ngororamubiri, biterurwa mu buryo butandukanye ariko bikaba bitangaganya ibiro, ababikoresha bakunze kubiterura kugira ngo bagorore ingingo zabo ndetse bakomeze n'imitsi yabo.

Kimwe mu gikoresho gikoreshwa n'abaganga ariko kikaba kigira umumaro mu myitozo ngororamubiri kuko gifasha abakora imyitozo ngororamubiri mu gusuzuma imibiri y'abo ndetse n'ingingo zabo, bityo bigatuma habasha kumenyekana ingaruka byaba byageze ku buzima bwabo.

Ubwoko bw'imbuto zitandukanye ndetse n'icupa ry'amazi wongeyeho kamwe mu gakoresho gakoreshwa n'abakora imyitozo ngororamubiri mu gufasha ukora imyitozo kugira ubuzima bwiza by'umwihariko, kuko imbuto zifasha uwakoze imyitozo mu kumererwa neza, ndetse amazi akagarura ubuyanja mu mubiri w'uwakoze imyitozo ngororamubiri.

Uyu muntu yakomeretse mu ruteranyirizo rw'amaboko ahazwi nko mu nkokora aho yakoresheje kamwe mu dukoresho dukoreshwa mu kugabanya ububabare cyangwa se mu kwikanda kugira ngo ububabare burusheho kugabanyuka bityo bigatuma amererwa neza.

Inyubako yagenewe gutanga serivisi z'ubuvuzi irimo ibikoresho bigiye bitandukanye bikoreshwa n'abaganga, harimo ibisuzuma ndetse n'ibipima indwara zitandukanye, ibi bigafasha serivisi z'ubuvuzi kugenda neza kuko abazihabwa bagenda banyuzwe.

Umukobwa ari gukora imyitozo ngororamubiri aho afashe ku kirenge cye, mu myitozo imufasha kugorora umugongo we ndetse no gukomeza ingingo ze, ibi bigatuma umubiri we ukora neza, hirindwa amavunane, mu mubiri we.

Umuntu wifashe ku kuboko, ufashe ku gifuko, bisa nkaho yagize igikomere ku mubiri we, ari kwikanda kugira ngo bigabanye ububabare mu mubiri we, bitewe n'uko yakomeretse ari gukora imyitozo ngororamubiri, bityo bigatuma ari burusheho kuza gukira iki gikomere.

Umukobwa umaze gukora imyitozo ngororamubiri by'umwihariko yari gukora umwitozo wo kwiruka, ari kuruhuka kugira ngo asuganye imbaraga kugira ngo akomeze urugendo, ibi bikamufasha mu gukoresha imbaraga nyinshi igihe arimo yongeye atangiye kwiruka.

Umusore ari gukora imyitozo ngororamubiri akoresha bumwe mu buryo bukoreshwa mu kugorora imitsi ndetse n'imikaya by'umwihariko umugongo, bikamufasha kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Imbuto z'ubwoko butandukanye ndetse n'icupa ry'amazi na kimwe mu gikoresho gikoreshwa mu gukora imyitozo ngororamubiri, ndetse n'igikoresho gikoreshwa mu gupima uburebure, bikoreshwa n'abakora imyitozo ngororamubiri, mu gutuma babasha kugira ubuzima bwiza ndetse no gukora imyitozo neza.

Umukobwa ari gukora imyitozo ngororamubiri nka bumwe mu buryo bwo kumufasha kugorora umugongo ndetse no gukomeza ingingo ze z'amaguru, ibi bigatuma iyi myitozo imufasha kumererwa neza ndetse no kumva atuje kandi atekanye.

Umuganga afite kimwe mu gikoresho gikoreshwa n'abakora imyitozo ngororamubiri kugira ngo kibafashe kugira ubuzima bwiza, kuko bituma imibiri yabo ibasha gukora neza ku bw'uko bakoze imyitozo ngororamubiri.

Umusore umaze gukora imyitozo ngororamubiri ari kunywa amazi nk'isoko nziza ifasha umuntu umaze gukora iyi imyitozo kugira ubuzima bwiza kuko amazi aba yashize mu mubiri we, ibi bikamufasha kugira ubuzima bwiza.

Imbuto z'uburyo butandukanye ziganjemo imineke ndetse n'izindi mbuto zigiye zitandukanye by'umwihariko hakaba hari n'ibikoresho bikoreshwa mu myitozo ngororamubiri, bigafasha abayikora kugira ubuzima bwiza ndetse imibiri yabo ikaba iba ifite imbaraga.

Igikapu kigizwe n'ibikoresho bigiye bitandukanye birimo nk'amasaha ndetse n'ibindi bizwi nk'imikasi bikoreshwa n'abakora imyitozo ngororamubiri mu buryo bwo kwimakaza isuku ndetse no gu gusa neza kwabo bityo bigatuma babasha kugira ubuzima bwiza.

Umugabo uryamye afite telefone, ari gufashwa na mugenzi we mu kurambura amaguru, ayahina ayarambura kugira ngo bimufashe kugorora ingingo ze, arusheho kugira ubuzima bwiza bukora imyitozo ngororamubiri.

Imiti igiye itandukanye y'ubwoko butandukanye ikoreshwa n'abakora imyitozo ngororamubiri ifasha kugira ngo umuntu amererwe neza, harimo igabanya ububabare, ikiza ibikomere ndetse n'amavuta mu buryo butandukanye atuma uyakoresheje cyangwa uyisize amererwa neza igihe amaze gukora imyitozo ngororamubiri.

Agakoresho gakoreshwa mu myitozo ngororamubiri by'umwihariko gakoreshwa n'abakora umwitozo wo kwiruka kugira ngo kabafashe kubara igihe ndetse no kumenya iminota bakoresheje igihe bari kwiruka, ibi bikabafasha mu kugira ubuzima bwiza ndetse no kongera umuvuduko wabo mu gihe bari kwiruka.

Inzu yagenewe gutangirwamo serivisi z'ubuvuzi, by'umwihariko harimo igikoresho gikoreshwa n'abakora imyitozo ngororamubiri mu kubafasha kumenya neza uburyo imibiri yabo imeze ndetse no kumenya uburwayi bagiye bafite, bikabafasha mu gusuzumwa ndetse bakitabwaho neza.

Umusore ari gukora imyitozo ngororamubiri, aho yarambuye ukuguru kwe inyuma ndetse n'ukundi imbere, mu kumufasha gukomeza imikaya ndetse n'imitsi ye kugira ngo arusheho kugira ingingo zikomeye.

Umutoza mu by'imyitozo ngororamubiri ari gufasha umwe mu bakinnyi be mu kumufasha gukomeza amagufa ye ndetse n'ingingo ze kuko yakomeretse cyane ari gukina umupira w'amaguru, kugira ngo bitume agira ubuzima bwiza.

Umusore w'ibigango wikoze ku gatuza, ari gukora imyitozo ngororamubiri, mu rwego rwo gutuma umubiri we umera neza ndetse, urushaho kugira ubuyanja ndetse n'ubuzima bwiza. Ibi bikamufasha mu gukomeza umubiri we, amagufwa ye ndetse n'imitsi ye, kuko ibi bituma ingingo ze zikomera.

Umusore ari gukora imyitozo ngororamubiri azamuye ukuguru kwe mu bifasha umugongo gukomera ndetse n'imitsi y'amaguru na yo igakomera, ibi bigatuma ubuzima bwe bugenda neza kuko bimurinda indwara zitandukanye zishobora kwangiza ubuzima bwe.

Umusore uryamye ku gitanda kiri mu nzu ikorerwamo imyitozo ngororamubiri, ari gufashwa kugorora amaboko ndetse no kugorora umugongo, aryamye yubitsa inda kugira ngo bitume amera neza ndetse agorora imitsi ye mu buryo bumworoheye.

Umugore wicaye uri gukoresha bumwe mu buryo bw'imyitozo ngororamubiri imufasha kugira ngo arusheho kugira ubuzima bwiza, aruhuke mu mutwe yirinde indwara zitandukanye ziterwa no kudakora imyitozo ngororamubiri.

Imiti yahariwe gufasha abakora imyitozo ngororamubiri mu kubakiza ububabare igihe bakoze imyitozo isa n'aho ikomeye ndetse bikabavura n'ibikomere igihe babyimbiwe.

Umusore w'ibigango ari gukoresha bumwe mu buryo bw'imyitozo ngororamubiri kugira ubuzima bwe burusheho kugenda neza. Ibi bikamufasha gutekereza neza, kwiyitaho ndetse no gutuma umubiri we ugira ubudahangarwa bwo kwirinda indwara zitandukanye nk'akamaro k'imyitozo ngororamubiri.

Umukobwa uri kwitabwaho by'umwihariko ku gice cye cy'ikirenge, aho ari gupfukwa igipfuko gitandukanye ndetse gifasha ubuzima bwe, aho yagize igikomere kugira ngo babashe kumererwa neza, bigatuma abasha gukira vuba ndetse akagira ubuzima bwiza.

Amazi meza yatunganyirijwe mu ruganda, akoreshwa by'umwihariko n'abakora imyitozo ngororamubiri. Iyo bayanyweye bashira icyaka, bumva banezerewe cyane kuko atuma ubuzima bwabo burushaho kumera neza.

Umusaza ari gufashwa gukora imyitozo ngororamubiri, aho yahawe kimwe mu dukoresho dufasha gukora imyitozo ngororamubiri, by'umwihariko ku maboko aho dukomeza imitsi ndetse n'ingingo ze z'amaboko zikarushaho gukomera, bitewe n'uko amara umwanya ateruye aka gakoresho, ibi bigatuma ubuzima bwe bugenda neza.

Ifoto ikoreshwa by'umwihariko muri serivisi z'ubuvuzi mu gupima ndetse no kureba mu buryo bw'ikoranabuhanga indwara umurwayi arwaye, aho bareba nyirizina urugingo rwe rwo mu mubiri, mu kumenya uko ruhagaze ndetse n'uko rukora.

Umugore uri kwitabwaho n'umuganga mu kumuvura uburwayi butandukanye, aho ari kumufasha gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo akomeze ingingo ze ndetse n'amagufwa ye bityo birambuke neza, ataribwa imitsi mu buryo bugiye butandukanye, ibi bikamufasha kugira ubuzima bwiza.

Umugabo wakomeretse ku kirenge ari kwitabwaho n'umuganga, aho ari kumuzirika kimwe mu gikoresho gifasha mu kugabanya ububabare kugira ngo bimugabanyirize kubabara mu mubiri, bityo bigatuma aribuze gukira vuba.

Igishushanyo mbonera ku myitozo ngororamubiri gifasha mu gusobanukirwa akamaro k'imyitozo ndetse hanyuma y'imyitozo hakorwaiki, ibyo kwirinda ndetse n'uburyo dukwiriye gufata neza ndetse no kumenya neza uburyo imyitozo ikwiriye gukorwa, ibi bigafasha abakora imyitozo mu kugira umubiri mwiza ndetse uzira umuze.

Uruhurirane rw'ubwoko butandukanye bw'ibiryo, burimo imboga n'imbuto, ibitera imbaraga ndetse n'ibyubaka umubiri, bikarinda n'indwara ndetse na bimwe mu bikoresho bikoreshwa mu myitozo ngororamubiri, by'umwihariko ibyo bakunda guterura. Ibi bifasha ukora imyitozo kumererwa neza no kugira ubuzima bwiza.

Iyerekanamashusho ryerekana imikoreshereze ya bimwe mu bice by'umubiri, by'umwihariko umutima, ibihaha, kugira ngo bifashe abakora imyitozo ngororamubiri kureba uko biba bihagaze.

Umugabo afite umugozi ari gukurura, cyane cyane afashwa n'umuforomokazi umuri iruhande, uri kumufasha muri iyi myitozo ngororamubiri. Mu rwego rwo kumufasha mu burwayi bwe, kugira ngo ubuzima bwe bumererwe neza. Ndetse akaba ari kimwe mu gice cy'ubuvuzi ari guhabwa nka serivisi, iri butume amera neza.

Umukobwa ufite igikomere munsi y'ivi yatewe n'imyitozo ngororamubiri yahawe ubuvuzi bw'ibanze butuma ubuzima bwe bubasha kumera neza, yahawe igipfuko gituma abasha gukira ndetse akamera neza byihuse.

Icyumba kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye mu buryo bw'ubuvuzi, cyahariwe gusuzuma ndetse no kwita ku barwayi kugira ngo bagire imimerere myiza ijyanye n'ingingo zabo, bityo bigatuma ubuzima bwabo bugenda neza.

Umugabo umaze gukora imyitozo ngororamubiri ari kugotomera amazi, mu buryo bwo kugira ngo agire umumaro mu mubiri we, bitewe n'uko iyo umuntu akoze imyitozo ngororamubiri amazi ashira mu mubiri we, bityo bigatuma agarura ubuyanja. Bikamufasha kugira ubuzima bwiza buzira umuze.

Imiti ikoreshwa mu myitozo ngororamubiri yongera imbaraga cyangwa se ivura ibikomere bityo bigatuma umuntu ashobora kuyikoresha amaze gukora imyitozo ngororamubiri bishobora kumuha ubuzima bwiza ndetse no kumva amerewe neza igihe asoje imyitozo ngororamubiri.

Umusore umaze gukora imyitozo ngororamubiri, ari kunywa amazi kugira ngo amufashe kongera amazi mu mubiri we, bitewe n'uko aba yakamutse cyane mu gihe ari gukora imyitozo ngororamubiri bityo amazi akamufasha kugira ubuzima bwiza.

Ibyangombwa bikenerwa mu kuba umuntu afite umutekano wose igihe ari gukora imyitozo ngororamubiri, higanjemo kuba umubiri we umeze neza, amategeko agenga imyitozo, ibikoresho bikenerwa, imbaraga zo gukora imyitozo ngororamubiri, imyambaro ikwiriye yo gukora imyitozo ndetse n'ahantu hakwiriye ho gukora imyitozo ngororamubiri.

Imiti yagenewe kuvura indwara zigiye zitandukanye ariko ikaba ikomoka

Ibinyobwa by'ubwoko butandukanye byiganjemo ibikozwe mu ikawa bikoreshwa mu gufasha abantu gutuma baruhuka mu mutwe ndetse bakanamererwa neza, ariko bikaba bikomoka ku bihingwa ndetse n'ibimera gakondo karemano bifite ubushobozi.

Ubwoko bw'igihingwa cya gakondo kizwiho mu gutanga ubushobozi butandukanye mu kurinda indwara z'uburyo butandukanye, bityo bigatuma gishobora no gukoreshwa mu gutanga imiti yatunganyijwe neza cyane mu nganda bigatuma abayikoresha bagira ubuzima buzira umuze ndetse n'indwara za hato na hato.

Amavuta akoreshwa n'umubiri w'umuntu yisiga, akozwe mu kimera gakondo gihingwa bigafasha gutuma uruhu rw'umuntu rumera neza rukagira ububobere ndetse rugatoha, bityo bikamufasha kugira ubuzima bwiza.

Ubwoko bw'imbuto, ndetse n'ibiribwa bitandukanye, bifite intungamubiri zitandukanye, ariko bifasha umubiri kumererwa neza. Bikaba bikomoka ku bihingwa ndetse n'ibimera gakondo. Kuko ntabwo byatunganyirijwe mu ruganda. Ariko bikagira umumaro wo gufasha ababikoresha kumererwa neza.

Ikigo cyitwa Akagera gishinzwe gutanga ndetse no kugemura imiti igiye itandukanye ku bihingwa ikomoka ku bimera ndetse n'ibihingwa gakondo byifashishwa mu buzima bw'abantu mu gukira indwara zigiye zitandukanye ibi bigatuma babasha kugira ubuzima bwiza

Umuti kabuhariwe, ukomoka ku uruyuki, ufasha mu gukiza uburwayi butandukanye, bityo bigatuma abayikoresha bagira ubuzima bwiza, ndetse bakamererwa neza kubera ko uba ufite ubudahangarwa, utanga mu mubiri w'umuntu.

Umubyeyi ari gusoroma uturabo twa kinyarwanda, dukoreshwa nk'imiti itandukanye, igenda ifasha abantu mu gukira indwara z'uburyo bugiye butandukanye, bityo bigatuma ubuzima bwabo bubasha kugenda neza ndetse bukamererwa neza.

Ubwoko bw'imiti itandukanye iri gutunganywa by'umwihariko ikomoka ku bihingwa ndetse n'ibimera, isa nkaho yumishijwe kugira ngo ize kuvamo umuti w'umwimerere ukoreshwa n'abavuzi gakondo, igafasha ubuzima bw'umuntu kumera neza kuko ifite ubudahangarwa buhambaye.

Amavuta yo kwisiga akomoka ku buryo bwa gakondo afasha umubiri w'umuntu gutoha ndetse no kumererwa neza, bityo bigatuma ubuzima bwe burushaho kugenda neza mu rwego rwo kwimakaza umuco mwiza w'isuku ndetse n'imibereho myiza.

Ubwoko bw'umuti bukomoka ku gihingwa, ndetse n'ikimera gakondo cyifashishwa mu kurwanya ndetse no guhangana n'indwara ya amibe ku kigero cyo hejuru, bigatuma abagikoresha babasha gukira iyi nzoka yitwa amibe itera mu nda ku kigero gikabije.

Ikimera gihinze mu murima gikoreshwa nk'umuti wa kinyarwanda, ushobora guhabwa abarwaye indwara zigiye zitandukanye kugira ngo ubuzima bwabo bubashe kumera neza.

Imiti ikomoka ku bimera ndetse n'ibihingwa ikoreshwa mu gutuma ubwonko bumera neza, ndetse igafasha mu kugira imitekerereze myiza ku bayikoresha, kuko ifite ubushobozi bwo gutuma umuntu abasha kugira ibitekerezo byiza, ndetse biri ku murongo.

Amavuta n'imiti by'ubwoko butandukanye bikoreshwa mu kuvura ndetse no kwita ku buzima bw'umuntu bikomoka ku bimera ndetse n'ibihingwa gakondo kuko bifite ubushobozi bwinshi n'ubudahangarwa ku kwita ku buzima bw'umuntu.

Imiti ikomoka ku bihingwa ndetse n'ibimera, by'umwihariko bya gakondo, ifasha mu kuvura indwara zitandukanye, kuko ifite ubudahangarwa bugiye butandukanye, butuma abayifashe babasha gukira, uburwayi bwabo.

Umuti watunganyirijwe mu ruganda ukomoka by'umwihariko ku ruyuki ufasha mu gukiza uburwayi bugiye butandukanye kuko ubumara bw'uruyuki butanga ubushobozi ndetse n'ubudahangarwa bufasha mu kwirukana uburwayi.

Umuti kabuhariwe ukoreshwa mu kwita ku bidukikije ariko ukaba ufite inkomoko ku bihingwa ndetse n'ibimera gakondo bifite ubushobozi bwo guhanagura ndetse no gukuraho imyanda mu buryo butandukanye, ibi bigatuma umuco w'isuku wimakazwa ku buryo buhoraho.

Umuganga uri mu cyumba cyagenewe gusuzumiramo, ndetse no gukora imiti y'ubwoko butandukanye, harebwa ku ndwara zigiye zitandukanye, ari gukoresha bimwe mu bihingwa ndetse n'ibimera gakondo kugira ngo abashe kumenya umuti ukwiriye ashobora gukora kugira ngo uvure abarwayi.

Umuti by'umwihariko ukomoka ku bimera ndetse n'ibihingwa cyane cyane igikakarubamba wifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye by'umwihariko gukoreshwa ku menyo kugirango atange isuku ndetse asa neza.

Umuganga wambaye agapfukamunwa, ndetse n'impuzankano, yagenewe abakora izi serivisi. Afite imiti itandukanye, ikomoka ku bihingwa n'ibimera gakondo. Ifasha abarwayi kumera neza, ndetse no gukira indwara zigiye zitandukanye.

Ubwoko bw'imiti igiye itandukanye ikomoka ku bihingwa ndetse n'ibimera gakondo bihingwa mu buryo bugiye butandukanye ikoreshwa ndetse igatunganywa neza mu nganda, mukugira ngo ihabwe abarwayi bitewe n'uburwayi bwabo kuko iyi miti igira ubushobozi n'ubudahangarwa bwo kuvura ku kigero cyo hejuru.

Ubwoko bw'umuti ukomoka ku kimera cyitwa igikakarubamba ukoreshwa mu buryo bw'amavuta ndetse no kwisiga, mu gutuma umuntu agira ubuzima bwiza ndetse akagira uruhu rutoshye, ibi bigafasha mu kugira ubuzima bwiza.

Ibihingwa ndetse n'ibimera bikoreshwa mu gukora imiti, by'umwihariko ikomoka ku bihingwa ndetse n'ibimera gakondo, bityo bigafasha mu gukiza indwara zigiye zitandukanye.

Imiti itandukanye ikomoka ku bimera ndetse n'ibihingwa yifashisha mu kuvura indwara zitandukanye harimo n'iz'uruhu, bityo bigatuma umuntu iyifashe agira ubuzima bwiza.

Umuti kabuhariwe ukomoka ku gihingwa gakondo, wifashishwa n'abatari bake, mu kuvura indwara zo mu mubiri zigiye zitandukanye. Ibi bikabafasha kugira ubuzima bwiza buzira umuze, kubera ko imiti gakondo yihariye cyane, ku gutanga ubudahangarwa n'ubushobozi ku buzima bw'umuntu.

Ibimera ndetse n'ibihingwa by'ubwoko butandukanye higanjemo imbuto ndetse n'ibinyabisogwe bikoreshwa mu gukora imiti gakondo, hirya yaho hakaba ikirahure kirimo ubuki, bifasha mu gutuma hakorwa umuti ushobora kuvura uburwayi bugiye butandukanye ariko by'umwihariko ukomoka kuri gakondo.

Umukobwa ari gucucuma umuti mu gasahani kagenewe gukoreshwa mu gutunganya imiti, by'umwihariko ikomoka kuri gakondo ndetse n'ibimera by'umwihariko bya kimeza, ibi bikamufasha mu gukora umuti ushobora gutuma uburwayi bugiye butandukanye bukira.

Icyayi cyatunganyirijwe mu ruganda, gikomoka ku gihingwa cy'icyayi gihingwa mu bice bigiye bitandukanye, gifite ubushobozi bwo kurinda indwara zigiye zitandukanye, by'umwihariko kikaba gikomoka ku gihingwa gakondo.

Imiti y'ubwoko butandukanye ikoreshwa mu buvuzi bugiye butandukanye ndetse no mu bitaro bitandukanye, hirindwa indwara z'uburyo bwose, ariko ikaba ikomoka ku bihingwa ndetse n'ibimera gakondo bifite ubushobozi karemano bwo gukiza uburwayi butandukanye.

Imiti ikomoka ku bimera ndetse n'ibihingwa ifasha mu buzima bw'umuntu kuvura uburwayi bugiye butandukanye ndetse no gutanga intungamubiri ku mubiri w'umuntu kugira ngo arusheho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Ubwoko bw'ibimera bugiye butandukanye, buhinze mu gisambu, bukoreshwa mu kuvura uburwayi butandukanye, kuko bukorwamo imiti itandukanye, ivuye mu nganda, bityo bigatuma abayikoresha bagira, ubuzima bwiza.

Ahacururizwa cyangwa se ahatangirwa serivisi zitandukanye zijyanye n'ubuvuzi, by'umwihariko hatangirwa imiti y'ubwoko butandukanye ikomoka ku bihingwa ndetse n'ibimera gakondo, kuko ifasha abayikoresha mu kugira ubuzima bwiza, ndetse bakabasha gukira vuba.

Umusore n'umukobwa bari mu ishyamba rihinzemo ubwoko bw'ibimera, ndetse n'ibihingwa bitandukanye, by'umwihariko ibiti by'ubwoko butandukanye bikomokaho imiti, ikoreshwa mu kuvura uburwayi bugiye butandukanye bufata umubiri, ikaba ikungahaye ku kugira ubushobozi n'ubudahangarwa bwo kurwanya indwara zimwe na zimwe.

Umuti ukomoka ku gihingwa ndetse n'ikimera by'umwihariko kizwi nk'igikakarubamba, mu gufasha ubuzima bw'umuntu ndetse n'uruhu rwe kumera neza kuko gifite ubudahangarwa bwo gukiza indwara z'uruhu zigiye zitandukanye.

Ibinini byatunganyirijwe mu ruganda bifite inkomoko ku bimera ndetse n'ibihingwa gakondo, ifite ubudahangarwa bwo kuvura ubuzima bw'umuntu, igihe yatatswe n'indwara kugira ngo abashe kugira ubuzima bwiza buzira uburwayi.

Ubwoko bw'amavuta akoreshwa n'abantu, akomoka ku gihingwa gikoreshwa mu kuvura indwara zitandukanye, kandi kikagira umumaro, wo gukiza abagikoresha. Bityo bigatuma ubuzima bw'uyakoresha, bugenda neza.

Umuti wahariwe mu kongera amazi mu mubiri w'umuntu kugira ngo umubiri we wongererwe amazi kuko uba wabuze amazi, ukaba ufite inkomoko ku bimera ndetse n'ibihingwa gakondo, bifite umwihariko cyane n'umwimerere wo kuvura uburwayi bugiye butandukanye.

Ibibabi cyangwa se ibyatsi bitandukanye bihinzwe muri ubu buryo bifashwe n'umuntu wambaye umupira w'umutuku bigaragara ko ari kugenda abisoroma gake gake ariko bikaba bizwiho ubudahangarwa ndetse n'ubushobozi bwa gakondo cyangwa se karemano bifasha ubikoresheje wese gukira uburwayi bwose arwaye kuko biba bifite umwimerere.

Umuti wahariwe kuvura uburwayi butandukanye, ukomoka ku gihingwa gakondo gifasha umubiri w'umuntu kugira ubudahangarwa butandukanye kandi bukomeye, bityo bigatuma ubuzima bwe burushaho kugenda neza.

Ubwoko bw'igihingwa gakondo gikoreshwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye, bityo bigatuma abagikoresha babasha gukira uburwayi bugiye butandukanye bufata umubiri w'umuntu.

Umuti kabuhariwe watunganyirijwe mu ruganda, ukomoka ku gihingwa n'ikimera gakondo cyifashishwa mu gutuma ubuzima bwa muntu bugenda neza, by'umwihariko imibereho ye ya buri munsi kuko bifasha mu gutuma umurwayi akira vuba uburwayi bwe.

Umuti ukomoka ku bihingwa ndetse n'ibimera bizwi nka gakondo bikoreshwa mu kuvura indwara zitandukanye, bigatuma abayikoresheje bitewe n'uko ifite umwimerere karemano babasha kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze, bityo bukavurwa indwara zitandukanye ndetse zikaba.

Umuti ukomoka ku gihingwa ndetse ikimera gakondo cyifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye by'umwihariko ku bagore bityo bigafasha ubuzima bwabo kurushaho kumererwa neza.

Imbuto z'ubwoko butandukanye ndetse na bimwe mu bihingwa gakondo, bikoreshwa mu kuvura ndetse no gukiza uburwayi butandukanye, kuko bifite ubushobozi n'ubudahangarwa, bwo kongerera umubiri imbaraga zawo, ibi bigatuma abakoreshaje iyi miti bakira neza.